Ihuriro ry'abaturage. Bakaba baje kumurika ibyo bakora. Harimo iby'ubukorikori ndetse n'ibindi byifashishwa mu rugo. Hakaba harimo isabune, inkweto ,imikandara, ibikapu.

Iduka baguramo ibikoresho by'ubugeni birimo: imitako, imyenda, ibikapu, kandi bikaba bidoze mu buryo bwa kinyarwanda.

Iduka ricururizwamo imyambaro ndetse n'ibindi bikoresho byo mu rugo. Bakaba bacuruzamo amakanzu y'abakobwa, ibitambaro byo mu mutwe n'inzitiramibu.

Iduka ricuruzwamo ibikoresho bitandukanye, harimo iby'isuku birimo isabune n'igifu ndetse ibyo kunywa birimo inzoga n'ibyokurya harimo amakaroni.

Igishushanyo mbonera cy'urusengero, aho iki gishushanyo mbonera cyerekana uko urusengero ruzabarwubatse, rukazaba rusakaje amabati y'umutuku inzuugi n'amadirishya bikazaba bisa umutuku.

Inyubako y'urusengero aho iyi inyubako yubakishije amatafari ahiye, ikaba isakaje amabati y'umutuku, inzugi n'amadirishya bikaba bisa umutuku.

Icyumba cy'aho warara ukabahafatira amafunguro ndetse n'icyo kunywa, hakaba iki cyumba kirimo igitanda cy'umukara, mtera ishasheho amashuka y'umweru, ndetse n'imisego y'umweru.

Inzu yubatse igerekeranye, ikaba ari inzu wasangamo amacumbi, ibyokurya ndetse n'ibyokunywa, ikaba isize amarangi y'ibyumweru.

Inyubako yubatse igeretse ikaba ari inyubako wasangamo amacumbi, hanze hakaba hubatse ubwogero bugezweho, ku nkengero hakaba hateye ubusitani.

Isoko rikaba ribera ku muhanda. Aho iri soko ricururizwamo ibikoresho bitandukanye. Birimo icyuma, akayunguruzo, umwuko, ingufuri, itoroshi, indobo ndetse n'ibindi bikoresho.

Igare ndetse n'ipikipiki bikaba biri kunyura mu muhanda wa kaburimbo aho byose bitwawe n'abagabo, ku nkengero z'uyu muhanda hakaba hubatse inzu.

Umugabo atwaye ipikipiki, akaba ahetseho umugore, akaba ari kugenda mu muhanda wa kaburimbo, aho ku nkengero z'uyu muhanda hubatse amazu.

Ipikipiki ikaba itwawe n'umugabo. Akaba ahetse ibicanwa. Ikaba iri kugenda mu muhanda wa kaburimbo. Ku nkengero z'uyu muhanda, hakaba hubatse inzu z'ubucuruzi.

Ipikipiki ikaba itwawe n'umugabo aho irimo iragenda mu muhanda wa kaburimbo. Ku nkengero z'uyu muhanda hakaba ariho ibyuma biriho amatara amurika mu muhanda igihe buba bwije.

Ipikipiki ikaba itwawe n'umugabo, akaba ahetse umugabo, ikaba iri kugenda mu muhanda wa kaburimbo, ku nkengero z'uyu muhanda hakaba hari ibiti ndetse hubatswe n'amazu.